Iyi shusho iratwereka imodoka nziza cyane, aho inyuma bayifunguye bakerekana ahitwa muri butu yayo, bakerekana intebe. Hakaba n'izindi modoka zitandukanye.

Iri shusho riri kutwereka abagabo babiri umwe ahagaze n'undi ahagaze bafite icyapa bari kwerekana Akagera moto n'imodoka ibari inyuma.

Iyi shusho iratwereka umuntu ari kubara amafaranga ariko aya mafaranga akaba ari amanyamahanga akaba atari amanyarwanda, bigaragara ko ari igitsina gore kiri kuyabara.

Iyi shusho iratwereka igitanda cyiza cyane gishashe neza gifite n'imisego itandukanye imbere yaho hakaba ari nakameza kabugenewe ko kurambikaho utuntu kandi ukabona ko kiri ahantu mu cyumba heza hitaruye.

Iyi shusho irerekana ahantu hari inzu nziza cyane, ikaba irimo saro y'abantu bicaramo harimo intebe nziza z'amakusi cyane, kandi bikaba ko ari icyerekezo cy'inzu nziza cyane.

Iyi shusho iratwereka ahantu bacuruje ibintu bitandukanye; imyenda, inkweto, aho hari abadama bahari bacuruje n'abandi bagenzi baje kureba ibyo bigurira, abaturage batandukanye.

Iyi foto iritwereka ahantu mu nzu bigaragara ko ari aho amazu yo gucumbika hari akodeshwa.